Bote ziri ku meza zifashwe n'abantu batandukanye harimo abayobozi. Umupolisi wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umudaso wambaye imyenda. y'icyatsi

Abasirikare bari mu myitozo y'akarasisi berekana ibirori bitandukanye, n'imyitozo bize ya gisirikare biganzuyemo igitsina gore.

Umumotari uhetse abantu benshi barenze ubushobozi bwa moto aho uwayuma yamupakiye hejuru y'imizigo abandi bagacigatigwa n'umugore ndetse abana bicaye no mu mahembe y'amoto.

Imodoka ya polisi iriho kamera zishinzwe gucunga umutekano, ndetse n'abapolisi benshi cyane bambaye ingofero n'imyenda y'impuzankano y'umukara, bari mu myitozo bagenda inyuma y'iyo modoka bakora imyiyereko.

Abasirikare bari mu myitozo ya gisirikare bagaragaza imyiyereko y'ibyo bize, bafite inkoni, inkota, ndetse bambaye neza impuzankano y'umukara, irimo ingofero, amapantaro n'amakoti ameze neza.

Icyuma cya kamera ya sofiya cyifashishwa, kiri ku muhanda kugira ngo gifate imodoka zafashe umuvuduko muremure, kugira ngo bazice amanda nikimara kubafotora. Cyifashisha umuriro w'amashanyarazi.

Abayobozi bahuriye mu nama bafite za mashini imbere yabo ku meza. Za mashini zirimo amabara atandukanye, harimo kompiyuta z'umukara, iz'umuhondo, ndetse n'izibara rya zahabu, bari kuvuga ku ngingo zitandukanye.

Abaturage batandukanye bitabiriye inama ivuga ku bintu binyuranye. Harimo umutekano, ubukerarugendo, kwiteza imbere ndetse n'ubukungu.

Umuyobozi uri mu nama cyangwa se inteko y'abaturage, yitabiriwe n'ingabo na polisi baganira ku kibazo cy'umutekano, cyangwa se izindi ngingo zitandukanye mu rwego rwo kubaka iterambere ry'abaturage.

Inteko y'abaturage yitabiriwe n'ingabo n'abapolisi, baje gukemura ibibazo by'abaturage no kumva uruhare rw'iterambere rwa buri wese, mu gushira hamwe no mu kugaragaza umutekano w'igihugu.

Ababyinnyi ba kinyarwanda bafite ingabobo mu ntoki, bifashishije iyo bari guhamiriza ndetse n'amacumu, bambaye imigara ku mitwe, bityo bikabafasha kubyina banezerewe ,ubabonye wese akumva yishimye.

Ababyinnyi babyina indirimbo za kinyarwanda, indirimbo gakondo aho babyinira imbere y'ingoro y'umwami, bagaragaza umuco nyarwanda warangaga abanyarwanda bo hambere kugeza ubu.

Ibikoresho gakondo by'umuco wa kinyarwanda harimo amacumu, impindu byifashishwaga mu gukora imirimo itandukanye nko kuboha ibyibo, ndetse n'indi myuka yafasha abantu mu kugaragaza umuco wa kinyagwanda

Ababyinnyi bari kubyina gitore bafite n'abandi bari kubakomera amashyi, aho bambaye impuzankano imeze neza iri mu mabara y'ubururu ndetse n'udusengeri tw'umweru kuri bose.

Amasaka ari mu murima atoshye cyane kuko yifashishwa mu gukora umusururu mu kwenga urwagwa n'igihe bari gukora urubetezi iyo bayakaranze bakayasya ku rusyo.

Umucuruzi w'ibibindi bitandukanye byifashishwa mu guteka ibiryo nyarwanda, abicururiza ku muhanda, atuye n'iruhande rw'urugo rufite amabati y'umukara, yishwe n'imyotsi yubatse n'ikiraro kirimo Inka.

Inzu ya kinyarwanda yubakishijwe ibiti bifite imiganda itambitse, imiganda ine ndetse isakajwe ibyatsi hagati. Hejuru yayo muri icyo gisenge cy'iyo nzu, harimo agati karekare kagaragaza ko iyo nzu izafata amazi neza.

Imitako iboshye neza iri mu mabara atandukanye, igaragaza ibyiza nyaburanga, iyi mitako yabohewe mu Rwanda, kuko ni yo igaragaza isura nziza iri mu mabara y'icyatsi umutuku ubururu, ndetse byose bikagaragaza ko umuboshyi yayiboshye abyitayeho, kandi azi kuboha neza.

Inzoka zipfundikijwe urukoma rw'birere, ziri mu bibindi binini cyane. Ibibindi bitatu biteretse ku ntango. Biri impande y'uruzitiro ,rwubatse neza. Rufashwe n'imigano kugira ibibindi bidahirima.

Inka y'inyambo abantu bose bakunze, baza kwifotorezaho, cyane cyane abanyeshuri, bambaye impuzankano zabo, bafite n'amakayi bari kwandika, amateka y'inka z'inyambo, ndetse bari impande y'agashyamba gatohagiye.

Umucuranzi wishimye ,uri gucuranga umuduri. Ukozwe mu giti ndetse n'imikwege, ku buryo agenda yikurura ikavuga. Ari gucurangira abantu ,abashimisha mu ijoro rwagati, hariho n'amatara.

Ingoma ya kinyarwanda ikoreshwa n'intore ziri guhamiriza. Uhamiriza akaba umubyinnyi, uvuza ingoma akaba umukaraza. Cyane cyane mu birori bitandukanye bakifashisha ingoma.

Ababyinnyi b'intore za kinyarwanda bafite amacumu, bazinze umugara bahamiriza, bishimye cyane.

Ibibindi bigaragaza umuco nyarwanda, harimo intango nini cyane yifashishwaga mu gusukamo amazi no kureka igihe imvura yaguye, ndetse hari n'abantu batandukanye babikorera isuku, ibyo bibindi.

Ibiryo bya kinyarwanda biteguwe neza biri ku mbehe. Imbehe ikaba ari isahani ibajijwe mu giti, yifashishwaga n'abo hambere mu gutegura ibyo kurya kugira bayirireho.

Ibikoresho bya kinyarwanda harimo: inkoko, icibo, urusyo ,aho uri gusya yifashisha ingasire asya ifu yifashishwa mu kubetera.

Ikigega bahunikagamo imyaka kigaragaza umuco nyarwanda, aho abakera bahunikaga mu kigega kiboshwe guca cikaba kitwa igisobane.

Kinyarwanda ziri guhamiriza zasinze umugara zivuna sambwe, zifite amacumu, zibyina imbyino gakondo kandi zigaragaza umuco w'abanyarwanda.

Abana batanu bari gukina umukino wo gusimbuka urukiramende, mu gwego gwo gukora siporo, kuko gusimbuka urukiranemende ni umukino wa siporo kandi ufasha abantu bose kugira ubuzima bwiza.

Nyuma ya kinyarwanda ibambwa n'uruhu gwiyaguye akaba yarabajije kitihatuma ivuga cyane kuko iba yaraboshwe n'umukaryi w'ingoma.

Umuhungu uhagaze mu busitani buri hagati y'ishyamba rwagati, afite iningiri n'umuduri, ari gukora umuziki, iyo ningiri ikozwe mu gicuma, bamanitseho urudodo bagahambira ku biti.

Inzu ya kinyarwanda isakaje ibyatsi, ikazitizwa ibiti biteye n'imbariro, bigaragaza umuco nyarwanda n'uko kera bari babayeho mu myubakire.

Abadamu batandukanye bitabiriye igitondo cy'isuku kugira ngo bakubure umuhanda ugaragare neza, aho bari kwifashisha imyeyo barandura n'ibyatsi, bagenda banaganira bumvikan uburyo isuku irakorwa.

Ababyinnyi bikaraga nk'intore mu kubyina imbyino nyarwanda, bafite abakaraza babavugiriza ingoma bityo bikaranga umurage n'amateka w'abahanzi bo hambere bakundaga indirimbo nyarwanda no kubyina.

Amasaka yera mu Rwanda akunda kugira ikigage kiryoshye cane umusururu, bakayabetesha bagakuramo ifu bakayitekamo igikoma, ndetse anifashishwa mu kubetera ugwagwa.

Isekuro igikoresho gakondo kifashishwa mu gusekura, ari gusekura imiti, isombe yo guteka, ifu y'imyumbati cyangwa se bari gusekura ibindi bintu bagamije gukora ifu.

Umuvure n'ubutanda byifashishwa mu kwenga ugwagwa gwa bitoki, ubutanda buriho igikatsi. Igikatsi iyo bagikagitse havamo amakatsi yo kunywa.

Umuduri, igikoresho gakondo cyifashishwaga n'abahanzi nyarwanda bo hambere, mu rwego rwo gucuranga bumva umuziki, banishmira umuziki wabo mu Rwanda.

Ababyinnyi bari kubyinira ku ngoro y'umwami yubakishijwe ibyatsi, isakajwe n'ibyatsi, aho iri mpande y'ishyamba, bari kubyina batanganitse amaboko, bambaye kinyarwanda.

Abantu bari mu nzu ya kinyarwanda bishimiye amata ari mu cyansi aho atekwa ku ruhimbi, baganira kandi baseka kubw'uburyohe bw'ayo mavuta.

Indyo ya kinyarwanda iteguwe neza, harimo ibijumba, ibigori, impungure, amateke, imboga, ibishyimbo, ndetse n'ibihaza baketse bakabiteka, bigashya bitaryoha.

Igiti kinini cyane kiri mu bimera byo mu Rwanda cyitwa Igiko, kigira ubwerezwa bw'umweru bwitwa indubaruba, kigira amahwa kuko utacyurira byagupfuma.

Ababyinnyi b'intore bari guhamiriza bavuna sambwe bafite imigara itamirije, abo babyinnyi bari kugaragara ku ifoto kandi iri mu mabara yijimye , bigaragarako bari bari kubyina nijoro.

Abageni bitabiriye ubukwe bwa kinyarwanda, bari gusogongera ku ntango ipfundikijwe urukoma bapfumyemo imiheha ibiri. Aho bari kugenda bakurura abandi banywera mu ducuma bashyizemo inzoga.

Inka z'inyambo zakujije amahembe cyane, asongoye kandi abyibushye, zikaba zifite ibara ry'umukara, zitamirije, ziri hamwe ku murongo, zizihiye abari kuzireba.

Umuvure wifashishwa mu gukama ibitoki bari kurenga urwagwa, hariho ubutanda ndetse n'igikatsi hejuru, bagiye gukacika nyuma y'uko barangije kugikamura barangije gukama inzoka.

Ababyinnyi b'intore za kinyarwanda， bari ku ngoma bari kuzivuza，aribo twita abakaraza， bafite imirishyo n'ingoma ndende zivuga cyane， kandi zirangira abantu bose bakazumva.

Ubukwe bwa kinyarwanda bwitabiriwe n'abantu benshi, aho abageni basogongera ku ntango: ikigage cyangwa urwarwa biri mu kibindi, bipfundikije urupfuko rw'urukoma.

Umwamikazi wiyogoshesheje amasunzu, aho umusatsi we uconze neza bya kinyarwanda. Ari kugaragara ko afite ibara ry'igikara n'imibiri yombi, kuko izuba riri kumurasiraraho ,aho bigaragara ko atuje kandi acecetse.

Abantu bari ku ngoro y'umwami, aganira ku bintu bitandukanye. Banakina imikino bungurana ibitekerezo, bari mu nzu isakajwe ibyatsi, igaragara ko ari inzu ya Kinyarwanda.

Agaseke karanga ubwiza nyaburanga kaboshywe mu mabara y'umutuku, kariho umutemeri gateretse ahantu hagaragara neza h'umweru, hagaragarira buri wese ukarebye bitewe n'iryo bara gafite kakabera kakanaryohera amaso.

Ibikoresho gakondo bya kinyarwanda biri mu nzu ya kinyarwanda yubakishije ibyatsi, ibyo bikoresho bigaragara, harimo: agacuma, urukiza, inkoko, ndetse n'ikirago kiboheshejwe ubusura ndetse n'ubudeyi.

Ibikoresho by'amashanyarazi bitandukanye, bifasha kugeza abantu umuriro, bigizwe n'insinga, ibyuma by'ikoranabuhanga, ndetse n'ibitsiga binini bigabanya umuriro.

Tesiteri yifashishwa mu gupima niba umuriro uri mu mashanyarazi, kugirango ukoze ku nsinga zitamufata, akaba abizi neza kuko yakoresheje iki gikoresho cya tesiteri gituma niba umenya umuriro urimo.

Moteri y'amashanyarazi iri mu nzu yifashishwa mu gucana amatara, icanira rimwe amatara atatu kuko ifite utuntu dutatu, iyo ukanze kamwe itara riraka wakanda akandi n'irindi rikaka guco guco.

Urugo rw'umuturage rwubatse neza rukurugiye, rufite n'imifuniko y'uburu, bafiteho na kanari purizi igaragaza televiziyo, ndetse rufite n'impande yarwo ipoto y'amashanyarazi, izana umuriro mu rugo.

Ibyuma by'amashanyarazi bitanga umuriro ku ngo z'abaturage kugira ngo biziba amashanyarazi abakure mu mwijima, bakorere ahabona ibikorwa byabo birusheho gutera imbere kuberako babona umwanya wo kubikora ku matara.

Icyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashisha amashanyarazi mu gupima umuriro, n'ibindi bintu bitandukanye biba bifite ubuzima, cyane cyane gikoreshwa n'abakanishi. Kiri mu ibara ry'umutuku ndetse gifite n'amabara y'umukara, kiriho ibipimo bitandukanye aho urushinge rugenda ruzenguruka.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kimeze nk'imashini, cyifashishwa mu gukora imirimo itandukanye, harimo nko kuba cyakuhira amazi cyangwa se kuba cyabeta isombe, bityo abantu baje kugikoresha bikaborohereza akazi ka bo.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gupima ibintu bitandukanye, kiriho ibipimo kuva kuri zeru kugera kuri mirongo itandatu, kigaragaza aho udutara tw'umutuku niba kiri gukora.

Cagi yifashishwa mu gucakinga amatelefone, iyo bayicometse muri purize hajamo umuriro bakawinjiza muri telefoni. Iki ni ikibuno cayo, kuko umugozi wayo ntawuhari bawukuyeho.

Ibikogwaremezo harimo ibiraro, insengero, bifasha abantu mu gukora imirimo itandukanye mu kazi ka bo ka buri munsi. Kuko bituma batanyagigwa igihe bari muri ibyo bikogwaremezo.

Ikigo cy'abana bigiramo cya garidiyene, gifite ibikinisho bitandukanye bifashisha iyo bari kwicunda, cyubatse neza, kirasakaye ku buryo abana biga batinyagirwa.

Inzu nziza ya kiliziya itatse neza, isize amabara y'amarangi atandukanye, ndetse ifite n'ubusitani bugaragara, aho bateye n'igiti mu mbuga kirinda amahuhwezi n'umuyaga waza wangiza igisenge.

Inzu nziza cyane yubatse ahantu hirengeye iruhande rw'ishyamba, ikikijwe n'uruzitiro rw'amabuye bityo rukayirinda kuba hari ibisimba byajya kuyangiriza.

Ishuri rya etaje, abakiyigamo biga bacumbitse bityo bikaborohereza mu kwiga amasomo yabo badakoze ingendo bataha kugirango bazatahe barangijemo amasomo yose.

Ikigo c'amashuri cubatse neza gifite ibigega bifata amazi, kandi aho abanyeshuri banyura haratwikiriye ku buryo nta munyeshuri wagenda ari kunyagirwa.

Urusengero rwa kiriziya gatorika aho abantu bahurira buri cyumweru, baje gusenga no kwiragiza umubyeyi bikira mariya, mu masengesho yabo ya buri munsi.

Ikigo cy'amashuri ya pirimeri na segondere，giherereye ahantu heza harasira izuba，ndetse rikanaharengera， aho abana baza kwiga bishimye， banyura mu muhanda ukoze neza w'igitaka.

Urusengero rwa Egilise de Pentekote di Rwanda Adeperi Nyarugenge rwubatse ahantu heza, rufite igisenge gikoze neza, gifunikishijwe ibyuma bifata amazi ndetse n’amabati akomeye kugira ngo ruzamare igihe.

Inzu yubatswe nk'igihangari, abafite ibinyabiziga bajya kunywesherezamo esanse, bityo imodoka zabo zikabasha kugenda, bakishyura amafaranga aho banyweshereje esanse.

Inyubako ya Leta y'urusengero yubakishijwe amatafari ikikijwe n'uruzitiro ruriho ibyuma kugira hatagira uja kwangiza ibikorwa birimo.

Inyubako nini y'urusengero yubakishijwe amatafari ahiye, iriho umusaraba munini hejuru ugaragaza ko ari inzu isengerwamo n'abakrisitu basengeramo, baramya banahimbaza Imana.

Inyubako y'urusengero gwa kiliziya rukikijwe n'uruzitiro gw'ibyuma hariho n'amatara akaba barateye ibiti mu busitani birinda umuyaga gutwara amabati y'igisenge cy'ugo rusengero.

Ishuri ryubatse neza rifite ubusitani mbere yaryo， bahinze bategereje guteramo umucaca， ndetse n'imbere yaryo hari idarapo，rigaragaza ko ari inyubako ya Leta，ndetse n'abayobozi basuye bari kugenda batambagira， bareba uko rimeze niba ryujuje ubuziranenge.

Urusengero ruri iruhande rw'umuhanda, rufite amatara rukikijwe n'ibiti, rukubakishwa na senyenge ku buryo nta muntu waza kwangiza asimbutse uruzitiro.

Urusengero rwa kiliziya rusengeramo abakiristu Gatolika ,aho bitabiriye umuganda wo kugira ngo basukure inyuma ,no kugira ngo hagaragare isuku kubera kuhakora neza ,bityo abantu bakaza gusenga bishimye.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye ku biro by'akarere ka Musanze, aho abajayo bagenda bifashishije amagare n'amapikipiki n'imodoka.

Intebe za kizungu zikozwe mu byuma, ndetse zifite n'imifariso y'umukara, bigaragara ko imbeba zayiriye, kuko iyo mifariso, irashaje yatangiye gusosoka, no kugaragaza amapamba yazo imbere.

ku rugomero rw'amashanyarazi ahantu hagaragara ibipironi byinshi cyane birebire, kandi by'ibyuma bifasha gutwara umuriro biwugeza mu baturage, bityo bakawubona utabavunye kuko ibi bipiloni ntabwo bihora cyangwa bisaza.

Abapadiri n'abahereza bahuriye hamwe bagira ngo baganire, bamenye uko barayoyobora misa, bari mu nzu yubatse neza yubatswe n'amatafari, ndetse n'amarangi y'umweru asize inkingi ziyigize.

Amazu y'abaturage yubatse ahantu hirengeye, bigaragara ko ari mu mudugudu, bafite ibigega bifata amazi, ndetse n'inzu za bo zikikijwe n'ibirahure, kuko amadirishya ya bo ameze neza, yakozwe mu birahure, nta muntu ushobora kurebamo imbere, kuko ari ibirahure bya fime.

Inyubako ya Leta ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, yifashishwa mu kubika amafaranga ariyo twita Sako bico buri muturage akahagera afite umutekano.

Ishuri ryiza cyane rigaragaza imfashanyigisho ku bikuta bitandukanye. Abana bakiga neza iyo akazuba kava umunsi uba ukeye.

Umugenzi uri kugenda n'amaguru iruhande rwinzu ya etaje yubatswe neza. Isize amarangi y'umweru, ikikijwe n'urukuta rwubatswe n'amabuye y'amakoro ku buryo nta musambo warusimbuka ngo aje kwiba.

Urugo rw'umuturage rwubatse neza kijyambere, aho bafite indobo ibijerekani ndetse n'amabase byifashishwa mu gukora isuku. Inzu bayisakaje amabati kandi iteye n'irangi ku buryo bugaragara.

Inzu y'inyubako ndende y'amagorofa ya etage ikikijwe n'abantu batandukanye baje mu nama baganira kubintu bitandukanye birimo ibyabateza imbere.

Abarimu bari mu mahugugwa, bahugugwa n'abandi batonze umurongo kuko bambaye amataburiya bari mu kigo kimwe, bagahugurana bityo amasomo yabo akagenda neza.

Inyubako za Leta zigigwamo n'abanyeshuri ziri impande y'umuhanda ku buryo kuhagera byoroshye kubera gutega ibintu ibinyabiziga bitandukanye haba hari n'amatara zimurikiye.

Inyubako za leta zihuriramo n'abantu batandukanye baje gukora imirimo irimo gutanga serivisi ku baturage, ndetse no kubaka ubumwe hagati ya bo kuko bakoreramo inama.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibintu bitandukanye ryubatswe mu gihangari, aho igihangari gikoreshejwe ibyuma ndetse n'amabati kugira ngo abari gucuruza batanyagirwa, harimo n'abantu babiri bashinzwe kurikorera isuku, kugira ngo ribe ryujuje ubuziranenge.

Abanyururu bari guhabwa ubutabera. Bari hamwe mu igororero, aho batanga ibirego byabo. Bakanakemurirwa ibibazo. Ubonye nta kibazo afite ,akayja mu rugo. Bari imbere y'umucamanza ,arikubaho ubutabera bakwiriye.

Abaturage batandukanye bahuriye hamwe, bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde kwanduzanya indwara zituruka ku buhumekero. Harimo inkumi, abasaza, abasore ndetse n'abana bakiri batoya abandi bitwikiye imitaka.

Abaturage bahuriye hamwe bari kuvuga ibyo bagezeho, aho batonze imirongo, uw'imbere bakamuha mikoro kugira agaragaze ibyo avuga mu ndangururamajwi. Akurikiranye n'umugore witeze igitambaro ndetse n'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, n'abandi benshi. Harimo abagabo n'abagore bategereje kuvuga.

Abayobozi batandukanye bahuriye hamwe baje gukemura ibibazo by'abaturage, aho bari mu kidara cyubakishijwe amahema, ndetse gitakishijwe n'ibitambaro by'umukara, iby'ubururu, iby'icyatsi, ndetse n'iby'umuhondo.

Inteko y'abaturage yitabiriwe n'abayobozi benshi batandukanye, aho bagaragaza ibibazo byabo, n'abayobozi bakabakemurira ibyo bibazo, bifashishije ibitekerezo biri kuva mu bantu batandukanye bicayeho muri iyo nteko.

Inzira irimo abagororwa bambaye impuzankano by'ibara rya roza ndetse n'udupfukamunwa tubarinda kwanduzanya indwara hagati yabo. Umwe arahagaze, abandi baricaye, bavuga ibibazo byabo nuko bahosha amakimbirane.

Abunzi bari mu kibazo cy'umuturage baganira banakemura ibibazo bakurikiza uburyo bw'amategeko kugira bafashe uwaba yahohotewe cyangwa se ababa bafitanye ibibazo.

Bisi nini ya kigali egisipuresi yifashishwa mu gutwara abagenzi bava hamwe bajya ahandi, ihagaze ku muhanda umugenzi ari kwinjiramo, komvuwayeri ari kumwinjiza kugira ngo bagende vuba.

Umugore wiyemeje gukora akazi k'ubucuruzi yifashishije igare, aho apakira ibicuruzwa bye biri mu bitebo bibiri akabishyira ku magare, ndetse n'abagabo bagenzi be bakifashisha ibitebo bizirikishijwe imikoba.

Ibisi binini cyane bya Ritiko bitonze umurongo, bitegereje abagenzi bajya mu turere dutandukanye kugira bibagezeyo amahoro noneho baganire nabo bagiye gusura.

Ibibisi binini byinshi cane bitonze umurongo byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu bava ahantu hamwe bajya ahandi mu korohereza ingendo zabo.

Bisi nini itwara abagenzi ya arafitisi （RFTC） yifashishwa gutwara abagenzi bari mu turere dutandukanye， bagiye muri serivisi zitandukanye， nk'ubukwe， ibirori，cyangwa se n'ibindi，bityo bakagera ayo mahoro.

Abanyonzi bakoresha amagare mu gufasha abantu mu gukora ingendo zabo zihuse kandi bakabagezaho bagiye vuba nta gukererwa, bigatuma umuntu wese ufite amafaranga make atega abanyonzi.

Abanyeshuri benshi bahuriye muri gare, baje gutega imodoka zibajyanana ku bigo byabo, aho biga ku bigo bitandukanye, muri izo modoka harimo iza kampani ya Nire, iza compani ya Egiseri, ndetse n'ibindi bigo bitandukanye, byaje gufata abana babyo kugira bajye kwiga.

Amagare y'abanyozi yegetse iruhande rw'inzira yabagenzi ategereje ko ba nyirayo baza kuyafata bakayabika cyangwa se babona umugenzi bakamutwara.

Igikamyo kinini ca hoho cifashishwa mu gukorera imicanga n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi mu kubigeza aho abubatsi babikeneye, kandi bakubaka vuba kuko gitura imicanga myinshi cane.

Bisi kinini kifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu bava mu karere kamwe bajya mu kandi cangwa se baja hanze y'igihugu kugira ngo bakore urugendo rwabo bitabagoye.

Moto iparitse ku muhanda, iruhande rw'indaboni zifite amabara y'umuhondo, iriho kasike ebyiri, ifite na miruware abantu bireberamo bari kwitokora, ndetse iyishingikirije kuri sitade iyihagarika hasi.

Abanyonzi b'amagare bari kugenda bari kuganira iruhande hari imodoka y'itagisi bari kugira ngo bashake abagenzi bo gutwara.

Amagarare ya siporo afasha abantu mu gutembera bakora ingendo bava ahantu hamwe baja ahandi, aparitse ku muhanda ategereje abaguzi baza kuyagura kugira ngo umucuruzi wayo abone amafaranga ashimishije.

Ikimodoka kinini cyane gipakira esanse gifite amapine y'umukara, gifite n'ibara ry'umweru n'utundi tubara dutatse mu mpande tw'umutuku, cyifashishwa n'abantu bakora ingendo ndende, kugira ngo esanse itazabashiriraho.

Umucuruzi wa bibogisi ari kugenda kuri moto yamamaza ibikorwa bye ku bantu bose bashaka ibikoresho bituruka muri bibogisi, bityo bakabigura kuko byamamajwe na we.

Bisi nini cyane zitwara abantu n'ibintu bava mu ntara bajya mu mugi, ziri mu mabara y'umweru n'icyatsi kandi zihagaze ku muhanda. Zitegereje abagenzi ko baza ngo bazitege.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu hifashishijwe moto, amagare, imodoka, mu kuva ahantu hamwe baja ahandi. Bakabikora bifashishije ibinyainyabiziga bitandukanye.

Ikibisi kinini cane cifashishwa gutwara abaturage bavuye mu turere dutandukanye bajya cyangwa bava mu mujyi wa Kigali, mu rwego rwo gusura ahantu hatandukanye bareba n' ibyiza nyaburanga.

Abamotari batonze umurongo bishimye, bafite moto zabo nshyashya ziri mu mabara atandukanye, aho bamwe bafite izifite amabara y'umutuku, abandi amabara y'icyatsi, ndetse imbere yazo hariho n'utudarapo, tugaragaza ko ari abamotari.

Umuhanda urimo imodoka, igare, moto, abanyonzi, bifasha abantu mu gutwara abantu n'ibintu bakoresha umuhanda umwe gusa.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri bari mu batonze umurongo kugira binjire mu kibisi kinini cane, kibageza mu rugo iwabo amahoro badakererewe mu nzira.

Aho banyweshereza imodoka, kugira ngo zibashe gukora urugendo nta kibazo, bakishura amafaranga ku muntu uri kubanshiriramo esense mu modoka.

Ikamyo nini cyane itwara abantu n'ibintu, cyane cyane ibicuruzwa bigiye gucuruzwa mu masoko atandukanye, iri kugenda mu muhanda w'igitaka itumura ivumbi.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu hifashishijejwe ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, amatagisi, amagare ndetse n'ibindi muri rusange mu kugeza abantu aho baja n'aho bava.

Abakinnyi bari gukina umupira w'intoki, n'aho umunyezamu yatanganitse amaboko akwirakwira mu izamu hose mu rwego rwo kugira umupira utamuca mu myanya y'intoki.

Ikibuga cya basiketi kiri impande y'ishamba kiri mu ibara ry'icatsi, aho iruhande batemye amasiteri, aho utsinda ashyira mu gapaniye kamanitse ku cuma.

Sitade nziza y'ikibuga cy'umupira, yubatswe ahantu heza. Irimo imikino itandukanye nk'iyo kwiruka, ndetse no gukina futuboro, ifite uduteba abafana bicaramo iyo bari kogeza umupira.

Umukinnyi wa tenisi wambaye agapira k'umuhondo, kariho idarapo ry'u Rwanda, wishimye, useka yanitse amenyo kandi yambaye n'ikabutura y'ubururu afite n'icyo bakinisha tenisi.

Umwana uri gukora marato uri kwiruka kugira ngo yongere imbaraga z'umubiri, n'amaraso ye atembere neza. Iki gikorwa cya siporo kifashishwa n'abantu bakunda isiganwa jyo kwiruka n'amaguru.

Abakinnyi ba vole bipanze ku murongo; hari abakobwa bane, bamwe bambaye amasengeri y'ubururu, abandi bambaye amasengeri y'umuhondo. Bose bafashe imipira ya vole, biteguye kuyitera ibipfunsi igatumbagira mu kirere kuri fire.

Umugore ukunda gukina cyane tenisi, akayikina ashishikaye yambaye imyenda y'icyatsi, abifashishije icyo bakinisha, bikagaragaza umurava we mu gu......

Turidirwanda rimwe mu irushanwa rikunzwe ku isi; aho abanyamagare baba baturutse imihanda itandukanye baje gusirwa mu Rwanda. Abafana bari ku nkengero z'imihanda babakomera amashyi.

Mu mukino wa tenisi hamamarizwamo visiti Rwanda, bicyo umuntu wese uri mu mahanga akamenya u Rwanda, aho ruherereye n'ibyiza nyaburanga bya rwo bicyo kurusura ni ukwiteganyiriza.

Aba nyonzi b'amagare baturutse ku isi ahantu hatandukanye, baje mu marushanwa yo mu rwanda aho abafana baba bicaye ku nkengero z'umuhanda babitegereza.

Sitade nziza y'umupira w'amaguru yubatse ahantu ku buryo buri wese aba ayitegeye ayibona. Iri mu ibara ry'umukara n'amarangi y'icyatsi n'umuhondo, kugira ngo abantu bayibone neza igaragara. Irimo n'amatara ari kumurika amyatsa.

Amarushanwa atandukanye yabereye muri sitade. Abantu bose bitabiriye baje kwihera ijisho ayo marushanwa ukuntu ameze, bityo bakajya mu myanya yabo y'icyubahiro, ndetse abandi bakicara mu dutebe twabugenewe aho bitegera neza irushanwa.

Abakinnyi ba vore， bakina voriboro bari kumwe n'abafana benshi batandukanye， bishimira uwo mukino kuko ufasha mu kugorora ingingo z'umubiri，kuri uri mu bwoko bwa siporo.

Umukinnyi wa basiketi wambaye ikabutura y'icyatsi, isengeri y'umuhondo, ari gukina na mugenzi we, bagerageza gutsindana ibitego kugirango agaragare...

Abanyeshuri n'abarimu bitabiriye ibiganiro mpaka hagati yabo, aho baganira ku ngingo zitandukanye batuje kandi banezerewe, abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, abarimu bambaye amajezi y'umukara.

Imodoka yifashishwa mu isiganwa ry'amamodoka yiruka cyane, akagenda atumura ivumbi kugira ngo abasiganwa barushanwe.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda, bizihije ibirori bambaye kinyarwanda biteye imikenyero, ndetse banabyinira abitabiriye ibirori kugira babashimishe bikaraga nk'intore.

Abanyonzi b'amagare bari mu marushanwa yo gusiganwa, aho utanze abandi uzi kunyonga igare neza, aparika ipine ku murongo ntawurenge, bityo bakareba uwatsinze kurusha abandi, n'abafana bahagaze bari kwitegereza bareba uwo mukino uko ukorwa.

Umukinnyi w'umukobwa wa siporo wabaye umukinnyi mwiza (MVP). Yambaye ishati ndetse n'isengeri iriho visiti Rwanda. Afite nimero eshanu mu gatuza ndetse yambaye na cola z'umukara ku maboko.

Umuntu w'inzobere mu koga，ari gukubita umuvumba mu mazi， agenda amagarama， agaramiriza akubita umuvumba， yirinda ko amazi gamuja mu nda.

Abakinnyi b'umukino wa basiketeboro bari gukina bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye iy'umweru, undi yambaye iy'ubururu, hakurya abafana ni benshi cyane, baje kureba uburyo bari guhatana, muri iryo rushanwa rya basike.

Abakinnyi ba vore bari guhatana cyane, higanzemo igitsinagorere, aho umugore umwe yambaye nimero ebyiri undi akambara nimero cumi neshanu, bahatanira umupira, abafana nabo bicaye mu dutebe twabo bagenda babitegereza umukino.

Abakinnyi bari gukina umukino w'amaboko, aho bari kwitakuma bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, kugira ngo baze gutsinda igitego, ndetse n'abandi bari kubarebera babafana, ndetse banabakomera amashyi menshi cyane, kubera ubutwari bari kugaragaza.

Abantu batandukanye bitabiriye kureba umukino w'umupira w'amaguru, abafana b'uruhuri bari iruhande rw'ikibuga, bategereje kureba uko umukino uributangire ngo baze gukina bishimye, bityo batahane ibyishimo n'akanyamuneza ku kibuga cy'amabara y'icyatsi.

Abakinnyi bakora siporo bishimiye imyitozo ngororamubiri, bakoze bambaye imyenda y'icyatsi, amakabutura y'ubururu harimo n'umuzungu umwe ndetse n'abirabura benshi cyane.

Uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibyumba byasenyenge. Rwubatse iruhande rw'umuhanda, aho abantu bakunda kunyura bagenda n'amaguru, ndetse n'ibinyabiziga bishobora kuba byahanyura. Urwo ruzitiro impande yarwo hari ibyatsi byameze bimeze nk'ubusitani.

Umuhanda urimo ibimenyetso by'uko abantu bagomba gutambuka mu mutekano, biri mu mabara y'umweru. Uyu muhanda ni kaburimbo ukozwe, unyuraho imodoka n'amamoto bitandukanye.

Inzu y'ubudozi badoda imyenda itandukanye amakoti, amapantaro, amajipo n'indi myenda muri rusange ikaba yubatse iruhande rw'umuhanda ahanyura ibinyabiziga bitandukanye.

Utuyira two mu giturage tugenda tunyura hagati y'amazu twifashishwa n'abanyonzi cyangwa se abari kugenda n'amaguru, tukabamo ibibuye kuko urebye nabi ushobora gusitara.